Abana benshi bari ku murongo ahantu hagaragara nkaho hari ku ishuri ndetse ababyeyi babiri bari imbere ya bo bari kubigisha uburyo bwo gukaraba intoki mu rwego rwo kwirinda indwara z'inzoka.

Abana bane bicaye ku meza ndetse bari bafite igikoresho imbere yabo, bisa nkaho hari icyo bari barimo biga. Abo bana bambaye impuzankano zisa ndetse abo bana bigaragara ko bose bahugiye kuri icyo gikoresho.

Umwarimu wari uhagaze imbere y'abana b'inshuke, biragaragara ko bari bagiye ku ishuri ndetse kuko yabahurije mu kibuga ahantu hisanzuye, ashobora kuba kuba hari isomo yabigishaga ryerekeranye n'imyidagaduro.

Abana batoya bari mu mpuzangano imwe, bigaragara ko bari bari gukina, bari bari ku masomo yabo. Ibyo byerekanwa n'inyubako ihari, ndende mu buryo burebure rwose, kandi bigaragara ko hari ku ishuri, aho abana bahurira bari kwiga.

Abana batandatu bicaye ku meza bambaye impuzangano imwe, aho bari bicaye hari ibibaho bimwe abana bigiraho mu mashuri bigaragara ko bari ku ishuri.

Abana benshi bari bicaye ahantu mu nzu ku mikeke, abo bana buri wese akaba afite igikombe mu ntoki ze bari barimo banywa icyayi ndetse hari umubyeyi uri hagati ya bo wari urimo ubagaburira.

Umugabo n'abana benshi bari bicaye ku mukeka ahantu muri salle, ndetse uwo mugabo yari yambaye itaburiya y'ubururu, imwe ikunze gukoreshwa n'abarimu, bigaragara ko yari arimo abasomera igitabo ndetse yigisha abo bana gusoma.

Irerero ni ahantu abana b'incuke bakunze guhurira, ndetse akaba ari uburyo bwiza bukoreshwa hano mu gihugu cy'u Rwanda, mu rwego rwo kwitaho abana bakiri batoya; haba mu buryo bw'imikurire y'ubwenge, ndetse habona no mu buryo bw'imikurire y'ubuzima bwabo bwa buri munsi.

Abana bicaye muri sale barigamo ndetse bigaragara ko aba bana bari bari ku masomo yabo kuko bambaye impuzangano zisa ndetse bari bafite utuntu batwaramo ibiryo, bakaba bari bicaye bategereje gutangira icyo gikorwa cyo gufungura.

Umubyeyi wambaye itaburiya y'ubururu ndetse n'umupira w'umweru, akaba yambaye n'igitambaro mu mutwe kimwe ababyeyi bakunda kwambara, ahagaze imbere y'abana benshi bigaragara ko hari amasomo yarimo abigisha, kandi bose bari bamukurikiye.

Abana batoya, abo bana akaba ari abana bane, bambaye imyenda y'ubururu ndetse n'umuhondo. Iyo myenda, ikunze gukoreshwa mu mashuri ya hano iwacu mu Rwanda, ndetse bikaba bigaragara ko aba bana bari bavuye cyangwa se bari kujya ku masomo yabo.

Abana biga mu mashuri y'incuke ni byiza kubahora hafi ndetse no kubitaho, kuko baba ariwo musingi w'iterambere ry'igihugu. Iyo bize neza bakiri bato bakura neza ari abanyabwenge.

Abana benshi b'incuke bicaye ahantu hamwe, mu nzu y'ibitabo bigaragara ko bari bageze mu mwanya wo gusoma ndetse bakamenya ibijyanye no gusoma mu rwego rwo gutoza abana bacu gusoma.

Umubyeyi uri mu bana benshi bari bicaye ku musambi cyangwa se ku mukeka, yari arimo abagaburira, biragaragara ko aha bari bicaye ari ha handi dukunze kwita mu irerero, kuko ari gahunda nziza Leta y'u Rwanda yazanye mu rwego rwo kurinda abana kuba inzererezi.

Akadobo kari mu ibara ry'icyatsi gateretse imbere y'inzu ahantu mu mbuga, bigaragara ko ari akadobo bagenewe kumenamo imyanda kandi kakaba kari ahantu buri wese abasha kukabona.

Abana batoya, bambaye impuzankano y'ishuri, bari bicaye ku meza ubona ko banezerewe, bigaragara ko yari amasaha yo gufata amafunguro yabo ku ishuri kuko usanga abana benshi babyishimira.

Igipangu cyubatswe ku musingi wubakishijwe amabuye ndetse kuri icyo gipangu hasizeho amabara, hashushanyijeho n'ifoto iriho umugabo n'umugore igaragaza Adamu na Eva igihe bari muri Edeni.

Amazu yubatse ku murongo, yubakishije amatafari ahiye, ayo mazu afite n'amabati ubona ko ayo mabati amaze igihe kinini kuko yatangiye gusaza, imbere y'ayo mazu hari idarapo ry'igihugu cy'u Rwanda.

Akabati kari ahantu mu nzu, ako kabati kakaba karunzemo ibitabo byinshi bitandukanye, biri mu mabara atandukanye, bigaragara ko aha hantu hashobora kuba ari ahantu mu isomero.

Abana batoya bo mu mashuri abanza, bari bicaye ahantu hamwe, bigaragara ko bari barimo basoma igitabo ndetse buri mwana wese afite amatsiko kuko wabonaga ko ashaka kumva no kureba ibyari biri muri icyo gitabo.

Akabati kuzuyemo ibitabo n'amakaye, bigaragara ko aka kabati kari ak'umwana w'umunyeshuri warangije amashuri ye ndetse akagerageza kubika ibitabo yakoreshaga kandi akaba ari uburyo bwiza bwo kubyitaho kugira ngo ajye yiyibutsa ibyo yize.

Ikibambasi cy'inzu kibambyeho urupapuro rw'umweru rwandikishijeho amagambo ari mu ibara y'umukara ndetse urwo rupapuro, akaba ari urupapuro bifashisha abana barimo bariga kuko hashushanyijeho imfashanyigisho igiye itandukanye, ku bintu bigiye bitandukanye.

Mudasobwa zagenewe gukwirakwizwa mu bigo by'amashuri abanza ndetse n'ayisumbuye, mu rwego rwo kwigisha abana ibirebana n'ikoranabuhanga ndetse na siyansi hano mu gihugu cyacu.

Ikibaho cy'umukara cyandikishijeho ingwa z’ibara ry'umweru ndetse n'umutuku, iki kibaho akaba ari ikibaho bifashisha ku mashuri y'abana, cyane cyane amashuri abanza ya pirimeri.

Igikuta cyubakishijwe amatafari ahiye ndetse kuri icyo gikuta hariho urupapuro rw'umuhondo, rwandikishijeho amagambo ari mu ibara ry'icyatsi, urwo rupapuro akaba ari imfashanyigisho.

Ikoranabuhanga ni uburyo bwongerewe mu burezi bwa hano mu Rwanda, aho buri mwana ategetswe kugira mudasobwa yiwe kugira ngo barusheho kugira umubare munini uhagije w'abana basobanukiwe n'iby'ikoranabuhanga.

Mudasobwa kuri buri mwana, ni imwe mu buryo uburezi mu Rwanda bukoresha bwigisha abana bo mu mashuri abanza, kuba bakoresha mudasobwa, no kumenya gukoresha sisiteme y'ikoranabuhanga bakabikuriramo.

Ku mashuri yose yo mu Rwanda, yubatswe ku buryo hasigara umwanya wagenewe kubakwamo inzu abarimu bashobora guhuriramo ndetse bakaba bakoreramo n'inama cyangwa se bagafatiramo n'andi mabwiriza mashyashya.

Urupapuro rubambye ku kibambasi, urwo rupapuro rukaba rushushanyijeho mudasobwa, ndetse bigaragara ko bwari uburyo mwarimu yari ari kwifashisha yigisha abana uko mudasobwa ikora, ibyo bikaba bwari uburyo bwakoreshwaga kera hataraza uburyo bwa laptop kuri buri mwana.

Abana babiri b'abanyeshuri bambaye impuzankano yo ku ishuri ryabo, ndetse afite n'uruhago atwaramo amakayi ye, bari gukora mu ibase bisa nk'aho bari gukaraba intoki zabo.

Inyubako yubakishijwe amatafari ahiye, akaba ari inyubako ndende cyane mu butambike ndetse isakaro ryayo ririho amabati yatonze umugese, bigaragara ko aya mabati amazeho igihe ndetse akeneye kuba yasimburwa.

Amashusho arimo abana b'abanyeshuri, na mwarimu abahagaze imbere, yari yambaye ijipo y'ubururu, agakote k'ubururu, ndetse afite igitabo mu ntoki, afite inkoni ari kuberekesha ku kibaho ibyo arimo kwigisha.

Utuzu dutoya twubakishijwe amatafari ahiye, tukaba twubatswe ahantu hiherereye kandi akenshi usanga ubwiherero bwubatswe muri ubu buryo ahantu hose hahurira abantu benshi.

Abana bari bari ku masomo yabo barimo bakina, abo bana bakaba bari bambaye impuzankano zigiye zitandukanye, hari abari bambaye iz'ubururu, bigaragara ko bari bari mu mashuri matoya abanza, ndetse n'umukobwa wambaye impuzankano y'ababa mu mashuri yisumbuye.

Abana benshi bambaye impuzangano zisa hasi bambaye kaki hejuru bambaye amashati afite ubururu bwerurutse, bari ahantu ku ishuri ndetse hirya yabo gato hari umwana uhagaze mu muryango w'ishuri.

Igikuta kirekire cyane mu butambike kuri icyo gikuta hakaba hateyeho irangi ry'umweru ndetse n'umukara, kikaba gifite urufatiro rwubakishije amabuye. Kuri icyo gikuta hashushanyijeho abana batatu bari barimo bakina.

Ameza manini cyane arunzeho ibikinisho abana batoya batangiraho bakina, akaba ari ibikinisho birimo imibare, ibi bikinisho bishobora gufasha umwana wawe kubasha kwiga kwandika, no gusoma imibare.

Abana batoya bo mu mashuri abanza, bari barimo bafatanya guterura ibyo kurya bari bagiye kugaburirwa, cyane ko mu mashuri ya Leta haje gahunda yo kugaburira abana ku masomo mu rwego rwo kwirinda ko abana bata ishuri.

Salle nini iteyemo ameza n'intebe, ndetse muri iyo sale uhasanga ikibaho bakoresha barimo kwiga, biragaragara ko iri ryari ishuri nubwo abana batarageramo ngo bicare ubabone.

Urubyiruko rwicaye mu nzu mberabyombi, aho rwitabiriye amahugurwa, ruhabwa n'abayobozi batandukanye. Bicaye mu ihema ritakishije ibitambaro by'umweru. Bose bakaba bambaye impuzankano y'imipira y'icyatsi cyijimye.

Mu muhanda ahagaragara umunyonzi utwaye igare, iruhande rwawo hari abakobwa b'abanyeshuri, bo mu mashuri yisumbuye bakaba berekeje ku ishuri, bose bambaye impuzankano y'amajipo ya kaki.

Umugabo wambaye impuzangano y'abashinzwe umutekano hano mu Rwanda, ahagaze imbere y'abana b'abanyeshuri bigaragara ko hari imbwirwaruhame yari arimo abigisha ku bigendanye n'umutekano.

Icyapa kinini cyane kiri mu ibara ry'umweru, cyanditseho amagambo yanditse mu ibara ry'umukara, akaba ari icyapa kigaragaza ishuri runaka, riherereye ahantu runaka.

Ubutumire bw'imyaka makumyabiri n'itanu, yo kwizihiza igihe mutagatifu Elena Guerra yari amaze bamwizihiza mu Kiliziya Gatolika, akaba ari umunsi mukuru utegurwa mu rwego rwo kwiyibutsa ibikorwa bye n'imigirire myiza yagize, igihe yari afite ubuzima hano ku Isi.

Abana b'abanyeshuri bambaye impuzankano y'ubururu bwijimye, bari bicaye mu ntebe zabo mu shuri, bose baratuje kandi barakurikiye, imbere yabo hari mwarimu arimo arabigisha.

Umugore uhagaze imbere y'abana mu cyumba cy'ishuri, abo bana bakaba bamukurikiye ndetse na we akaba arimo arabasobanurira amasomo agendanye n'isomo yigisha.

Inzu nini cyane yubatse ku buryo bugezweho akaba ari uburyo, wubaka amazu menshi kandi ku butaka bukeya, kandi hagaturamo imiryango myinshi. Ayo mazu asize ibara ry'umuhondo, ndetse afite n'amadirishya menshi.

Abana b'abakobwa batoya bambaye impuzangano zisa, izi zifashishwa iyo barimo bakina imikino ngororamubiri, imbere yabo hari abagabo babiri bahahagaze, barimo bababwira uko bari bwitware mu kibuga.

Ikibuga kiberaho umukino w'intoki uzwi nka voriboro, hakaba harimo abana benshi, bambaye impuzangano zitandukanye. Bamwe bambaye imituku abandi bambaye imyeru, bigaragara ko bari bagiye kuhakinira uwo mukino.

Ikigo cy'amashuri cyubatse impande y'umuhanda, kikaba gifite urupangu rwubakishijwe mu byuma, imbere muri icyo gipangu harimo abana bari gukina ndetse ubona ko banezerewe n'imyidagaduro yabo.

Ikigo kinini cy'amashuri giherereye mu Majyepfo mu Karere ka Gisagara, akaba ari ikigo cyubatse neza ndetse ari ikigo gifite ubusitani bunini kandi bwisanzuye.

Inyubako y'ikigo cy'amashuri yubakishijwe amatafari ahiye, ndetse ukabona ko ari amashuri yubatswe ku murongo, imbere y'ayo mashuri hari ubusitani, muri ubwo busitani hakaba hashinjemo ibendera ry'u Rwanda.

Icyumba cyari kirunzemo ibikoresho byinshi bitandukanye: harimo intebe abana bicaraho bari ku ishuri, harimo ibipapuro bifashisha bandikaho barimo biga, ndetse imbere y'aho hari ikibaho bandikiraho.

Inzu ya gitwe kimwe yubatse ku buryo bwa kera, ikaba yubakishijwe amatafari ahiye kandi akomeye. Imbere y'iyo nyubako hari ubusitani bwiza cyane bwitabwaho bakabwuhira ndetse bakabukata ku buryo butazana igihuru.

Uburezi ni kimwe mu byo Leta y'u Rwanda yashyize imbere cyane kuko yifuza kugera ikigero kiri hejuru cyane cy'abana batoya babashije kwiga. Iri ni ishuri riteraniyemo abana bari mu ishuri ndetse imbere yabo mwarimu abahagaze imbere, bisa nkaho ari kubasobanurira.

Sare nini irimo mudasobwa ndetse n'abana benshi bazicaye imbere kuko ari bumwe mu buryo Leta y'u Rwanda yashyizeho kugira ngo abana bige ikoranabuhanga ndetse n'ibijyanye naryo.

Gahunda ya Leta y'u Rwanda, yo kugaburira abana ku ishuri, ni imwe muri gahunda yafashije ingo nyinshi kugira ngo abana babo be kwandagara ku mihanda cyangwa se bate ishuri.

Amazu meza yubatswe ku murongo ni amazu yubakishijwe amatafari ahiye ndetse imwe muri iyo nzu iteye irange ry'umuhondo, zombi zifite amabati asize irange ry'ubururu.

Mu kigo cy'ishuri cyubakishijwe amatafari ahiye kandi kikaba cyubatswe ku buryo bwa kera, imbere y'icyo kigo cy'ishuri hari icyapa kiriho ikirango ndetse n'amagambo agaragaza izina ry'icyo kigo cy'iryo shuri.

Amashuri yubakishije amatafari ahiye, amwe muri ayo mashuri afite amabati ubona ko yashaje rwose ariko ayo mashuri yubatse ku murongo ndetse imbere yayo hari ubusitani bwiza cyane.

Imodoka ebyiri zihagaze mu muhanda wubakishije amabuye. Uwo muhanda ukaba uca imbere y'ikigo cy'amashuri ndetse bigaragara ko amasaha yari ageze yo gutaha kw'abana kuko bose bazaga binjira muri izo bus zihagaze imbere yaho.

Mu Rwanda, kera abana b'abakobwa batozwaga kuba ba mutima w'urugo gusa, bakamenya ibyo mu rugo, ntibiteho ibyo kwiga. Uburezi mu Rwanda rero kuri ubu ngubu bwimirije umwana w'umukobwa imbere, bamukangurira kwiga.

Umugabo wambaye inkweto zirimo umweru n'umukara, ipantaro y'umukara ndetse hejuru yambaye itaburiya y'umweru, mu mugongo wayo handitseho amagambo yanditswe mu ibara ry'umukara, akaba ahagaze impande y'ikigega.

Imihanda mu Rwanda ni kimwe mubikorwaremezo leta yacu yitaho cyane kuko bifasha urujya n'uruza rw'abantu ndetse n'ibinyabiziga kandi ukabona ko ari uburyo bwiza bwo gusukura imijyi cyanecyane nk'umujyi wa Kigali.

Icyapa kiri mu ibara ry'umweru, icyo cyapa kikaba cyandikishijeho amagambo yanditswe mu ibara ry'umukara, gishushanyijweho n'ibishushanyo bigaragaza ko ari ikirango cy'ishuri, ndetse iryo shuri akaba ari ishuri rwose bigaragara ko ari iry'abapadiri.

Abanyeshuri babiri bari bari kugendera mu nzira yagenewe abanyamaguru impande y'umuhanda, akaba ari abana babiri bari bambaye impuzangano zisa, bigaragara ko bari barimo bava ku ishuri cyangwa se bari barimo bajya ku ishuri. Gahunda nziza yagenewe uburezi mu Rwanda.

Amazu yubatse ku murongo, ndetse aya mazu akaba yubatse ku buso burebure; ni amazu asakajwe amabati y'ubururu, imbere y'ayo mazu hari ubusitani bigaragara ko ari ibyumba by'amashuri.

Abakobwa n'abahungu biga mu mumashuri yisumbuye, bakaba bageze mu masaha y'akaruhuko, basohotse hanze y'ishuri, baragenda baganira. Bambaye impuzankano y'amashati y'umweru ndetse n'umukara hasi.

Abana benshi b'abanyeshuri bambaye impuzangano y'umweru ndetse na kake, abandi bicaye mu kibuga kiberamo imyidagaduro nk'umukino w'amaboko bita Basket, bambaye impuzangano y'ubururu.

Amashuri ni bimwe mu bikorwa remezo Leta y'u Rwanda yifashisha mu rwego rwo guteza imbere uburezi mu Rwanda, aya ni amashuri yubatse ku buryo bugezweho ndetse agiye afite imiryango y'ubururu n'amabati y'ubururu.

Abana benshi b'abanyeshuri bari bambaye impuzankano z'umweru na kaki, bari bicaye hasi bateze amatwi umubyeyi wari uhagaze imbere yabo, afite indangururamajwi asa nkaho hari ikiganiro yari arimo arabaha.

Kiliziya Gatolika ni imwe mu madini akunda kubaka inyubako zigezweho ndetse usanga zibereye n'amaso, aha turahabona abadamu bane bamwe dukunze kwita ba masere, bari bahagaze imbere y'umuryango wa kiliziya, bigaragara ko bari bavuye kuvuga ishapure.

Urukuta rw'inzu, ruriho ibara ry'umukara, ndetse kuri iryo bara, handikishijweho amagambo, ari mu ibara ry'umweru, bigaragara ko ryari ishuri, kuko ibyanditseho, bigaragaza ko bari bari kwiga ururimi rw'Ikinyarwanda.

Kera mu Rwanda abana benshi bataga amashuri kubera ahanini kugera mu rugo bakabura icyo barya, mu burezi mu Rwanda bazanyemo uburyo bwo kugaburira abana ku mashuri, bityo bituma umubare w'abana bataga ishuri ugabanuka ku kigero kinini cyane.

Inzu y'ibitabo irimo ibitabo byinshi bigiye bitandukanye ndetse ibyo bitabo bikaba bishyizwe ku murongo neza buri kimwe ku kindi, mu kabati kari gateretse aho ngaho muri iyo nzu, ku buryo yuje gusoma bimworohera kuba yabona igitabo yifuza vuba.

Inzu ndende mu burebure yubakishijwe amatafari ahiye ndetse ifite amabati y'ubururu, bigaragara ko cyari ikigo cy'amashuri kuko hari n'icyapa cyanditseho ko ari ikigo cy'amashuri cy'i Butare.

Umugabo wambaye ikote ry'umukara, ishati y'umweru, ipantaro ya kaki akaba yari yambaye n'indorerwamo z'amaso, yari mu ishuri ahereza abana impapuro zo gukoreraho ikizame.

Ishuri rinini ryiza kandi rigezweho, rikaba rifite ikibuga kinini cy'imyidagaduro, akaba ari ikibuga cyagenewe gukinirwaho umukino w'intoki bakunze kwita Basketball.

Amazu yubakishijwe amatafari ahiye ndetse afite amabati ateye irange ry'umutuku, akaba ari amazu yubatswe ku buryo bugaragara ko ari ibyumba by'amashuri, hakaba hari n'ubusitani buteyemo ibiti byinshi.

Icyapa gisize ibara ry'umweru, ryandikishijeho amagambo ari mu ibara ry'umukara, akaba ari icyapa cyerekana urwunge rw'amashuri rw'ikigo cyitiriwe Mutagatifu Joseph, i Kabgayi.

Ibitabo ni bimwe mu buryo twifashisha mu rwego rwo kongera ubumenyi, ndetse bugakangura n'ubwonko bwacu. Aha turahabona ibitabo byinshi bigiye bitandukanye bimwe muri mu mabara y'ubururu, umuhondo ndetse n'icyatsi.

Umuhanda mwiza wa kaburimbo, bigaragara ko uwo muhanda wubatse neza kandi muri uwo muhanda harimo harajyamo urujya n'uruza rw'abantu, bigaragara ko ari umuhanda wari wubatse ahantu mu mudugudu kandi rwose witaweho neza.

Abanyeshuri bahagaze ahantu hahurirwa n'abantu benshi, bakaba ari abanyeshuri bari bambaye impuzankano y'umweru hejuru ndetse n'ibara rya kaki hasi, bigaragara ko bari bari mu myiyerekano.

Amazu meza cyane yubatse ku buryo bwa kijyambere, imbere y'ayo mazu turahabona aho baparika imodoka ndetse tukahabona n'idarapo ry'u Rwanda, bigaragaza ko iki kigo gikorera mu Rwanda ndetse akaba ari n'ikigo mpuzamahanga.

Urukuta rwubakishije amatafari ahiye, kuri urwo rukuta hakaba hariho icyapa kiri mu ibara ry'umweru, cyandikishijeho amagambo ari mu ibara ry'umukara, ubururu, icyatsi n'umuhondo, akaba ari icyapa cyerekanaga ishuri ry'i Kansi.

Ikigo cy'amashuri yisumbuye cyubatse ahantu, bigaragara ko ari ikigo gishobora kuba ari ikigo cy'abapadiri, kuko cyubatse ku buryo bw'imyubakire ya kera, ndetse cyubakishijwe n'amatafari ahiye. Imbere y'icyo kigo hari ubusitani bwiza cyane, burimo ibiti bitoshye kandi bimeze neza.

Kera mu gihugu cyacu umuriro w'amashanyarazi wakoreshwaga hakoreshejwe inzira zo mu butaka, none ubu barabikemuye kuko bazanye uburyo bushyashya bwo gukoresha umuriro unyuze hejuru, aha turahabona ibiti binyuzwaho imiriro y'amashanyarazi kuko turimo tubonaho insinga zicishwaho ayo mashanyarazi.

Inyubako nini kandi nziza isize amarangi y'umuhondo, akaba ari inyubako bigaragara ko ikirimo irubakwa kuko mo imbere harimo ibirahure byamenaguritse.

Ikigo kinini, akaba ari ikigo cy'amashuri yisumbuye, ndetse n'amashuri makuru hano mu Rwanda. Ni kimwe mu bigo by'abihayimana, kuko ari ikigo cy'ishuri ryisumbuye rya Katorika mu Rwanda.

Abantu benshi bahuriye mu cyumba kiberamo inama ndetse imbere y'abo bantu hari umugabo uhahagaze, arimo arabasobanurira ku bijyanye n'insanganyamatsiko bari bari kwigaho.

Igikuta cy'inzu giteye akarange gatuma gisa neza, kuri icyo gikuta hakaba hariho icyapa kigaragaza ko ari ku ishuri rikuru ry'u Rwanda, ndetse kinerekana ibyumba abantu bigiramo.

Icyumba gifunguye gifite umuryango uteye irange rya shokora, ikibambasi cy'icyo cyumba giteye irange ry'umweru riterurutse cyane ndetse ku kibambasi hamanitseho n'imyenda myinshi.

Akabati gateretse ahantu mu nzu, akaba ari akabati kagenewe kubikamo ibitabo kuko tubonamo ibitabo byinshi bitandukanye kandi biri ku murongo neza ku buryo uwashaka igitabo icyo ari cyo cyose bimworohera guhita akibona.

Abantu benshi barimo abagabo n'abagore ndetse n'urubyiruko, bari bicaye ahantu hahurira abantu benshi barimo barya bigaragara ko yari resitora cyangwa se ahantu abanyeshuri bahurira bari kurya.

Inzu nini cyane ikorerwamo ubushakashatsi, iyo nzu ikaba iteye amabara y'umweru ndetse muri iyo nzu hakaba harimo utubati twuzuyemo ibikoresho bifashisha bakora ubwo bushakashatsi.

Ibiti byinshi biteye mu busitani, hakaba hari ahantu bagennye abantu bashobora kuza kwifotoreza cyangwa se bashobora kuhakorera amakwe igihe cyose hari uwaba abyifuje kuko ari ahantu heza hagaragara neza.

Inzu iteye amarangi y'umweru n'umukara, akaba ari inzu yubatse ku buso burebure, akaba ari inzu ifite ibyumba byinshi, bigaragara ko ari amashuri y'ahantu runaka.

Inzu yicayemo abantu benshi, imbere y'abo bantu hahagaze umugabo wambaye ikote ry'umukara, yari arimo abaha amasomo nka mwarimu wari uri imbere yabo.

Inzu y'uruganiriro, muri iyo nzu hakaba harimo ameza n'intebe, hakaba harimo kandi icyuma bifashisha berekana amashusho, cyangwa se insanganyamatsiko baba bagiye kuganiraho.

Akabati karimo ibitabo byinshi, bigaragara ko ako kabati kari ahantu hagenewe gusomerwa ibitabo kuko hateretse n'ameza ushobora kwicaraho igihe urimo usoma ibyo bitabo.

Ikigo kinini cyubakishijwe amatafari ahiye, cyubatswe mu buryo bwa kera. Harimo haratemberayo abantu bigaragara ko ari ahantu hahuriraga abantu benshi ndetse hafite n'ubusitani bwiza.

Sale nini iteyemo amarange y'ubururu, hejuru harimo ka kamashini gatanga umuyaga kugira ngo abantu bahumeke neza ndetse amadirishya na yo ararangaye bigaragara ko bashakaga ko hinjiramo akayaga abantu babone ubuhumekero.

Sale nini y'uruganiriro ndetse iteyemo intebe z'umutuku, hakaba hicayemo abantu benshi bari bategereje cyangwa se bateze amatwi imbwirwaruhame, imbere yabo hariho idarapo ry'u Rwanda riri mu mabara y'icyatsi umuhondo n'ubururu.

Inzu y'umuturirwa, akaba ari inzu nziza cyane, iteye amarangi y'umweru n'umukara, imbere yayo hateye ibiti byiza cyane ndetse ifite ubusitani bushishe bumeze neza, bigaragara ko babwuhira rwose kandi bufite ubwitaho.

Ikibuga kinini cyane, akaba ari ikibuga bakiniraho umupira w'amaguru. Muri icyo kibuga hateyemo ubwatsi, ariko igice kimwe biragaragara ko ari igice kitarimo ubwatsi, kuko bishoboka ko byari mu gihe cy'izuba, ndetse ubwatsi bwaho bukaba bwarumye.

Inzu yubatse ku buryo bugezweho, akaba ari inzu ndende mu butambike ndetse iyo nzu ikaba ifite amadirishya meza rwose, isize irange ry'umuhondo, ifite n'igisenge kiri mu ibara ry'umukara.

Mu mashuri makuru usanga buri mwana afite icyumba cye cyo kubamo ndetse muri icyo cyumba cye ugasanga hateretsemo n'akabati yifashisha abikamo ibikoresho bye nk'ibikoresho atwaramo imyenda ndetse n'aho yatereka amavuta akoresha arimo yisiga.

Inzu iteye amabara y'umweru haba ku bikuta ndetse no ku gisenge cyayo, irimo amatara yaka cyane n'amamashini menshi agiye atandukanye, hakaba hicayemo abagabo. Iyo nzu ni inzu ikorerwamo ubushakashatsi ndetse abo bagabo bari barimo bakoreramo ubushakashatsi.

Icyapa kiri mu ibara ry'umweru ndetse n'ubururu ndetse icyo cyapa kikaba cyandikishijweho amagambo ari mu ibara ry'umweru kikaba giteye ahantu mu biti byinshi cyane, kikaba kandi cyerekana aho ushobora gukorera siporo no gufatira ibya mu mugitondo.

Amazu meza kandi maremare arageretse ku nshuro zigeze kuri eshanu, imbere y'ayo mazu hari umuhanda urimo uracamo abantu benshi, bigaragara ko ari ahantu hahurira urujya n'uruza rw'abantu.

Inzu yubatse impande y'umuhanda, akaba ari inzu iri mu biti byinshi ndetse imbere yayo naho ukahabona ibintu by'ibihuru, ariko kandi ibyo bihuru bidufasha gufata ubutaka ngo budatwarwa n'isuri.

Inzu nini ifite umwanya munini hateyemo intebe z'ubururu hakira abantu benshi, ni ahantu habera inama ndetse n'ibiganiro cyangwa imbwirwaruhame zigiye zitandukanye.

Icyumba kirimo ibitanda bibiri, ibyo bitanda bikaba bishashe neza kandi ibintu byose biri muri icyo cyumba biri ku murongo, akaba ari icyumba ubona ko kirimo isuku nyinshi ihagije.

Inyubako nini kandi ndende, yubatswe mu buryo bugezweho, cyane ko ari uburyo buturamo imiryango myinshi kandi ahantu hatoya. Imbere y'iyo nyubako, hari ubusitani ndetse muri ubwo busitani hanitsemo imyenda myinshi cyane.

Umuntu wicaye mu nzu ihuriramo abantu benshi, akaba ahicaye wenyine, imbere ye hateretse mudasobwa, ameze nk'uwari urimo asubira mu masomo ye, imbere ye nanone kandi ku gikuta cy'inzu hari ikibaho bifashisha bari kwiga.

Inzu nini irimo ibikoresho byinshi, iyo nzu ikaba iteyemo irangi ry'umweru, ikaba irimo utumashini tugiye dutandukanye, hameze nk'ahantu hakorerwa ubushakashatsi n'ikoranabuhanga.

Inzu nini, ifite salle nini cyane nayo iri ngari, muri iyo salle hateretsemo intebe abantu bicaraho, ndetse harimo abana babiri bari kuri za mudasobwa, bigaragara ko ari salle bicaramo iyo barimo biga.

Icyumba cy'abana babiri b'abakobwa, aba bana akaba ari abanyeshuri kuko imbere yabo hateretse za mudasobwa ndetse buri wese akaba ahuze ameze nk'ukurikiye isomo rye ku buryo bw'ikoranabuhanga.

Inzu iteye amarangi y'umweru, muri iyo nzu hakaba hateretsemo akabati babikamo inkweto, hejuru yako hari hateretse utubido dutoya tuba turimo amazi yo kunywa ndetse hakaba hariho n'idirishya ririho amarido.

Abantu benshi biganjemo urubyiruko rw'abahungu n'abakobwa, bari ahantu mu nzu irimo ikibuga kiberamo umukino w'amaboko umwe uzwi nka Basketball.

Umukobwa mwiza wambaye ijipo y'umukara ubona ko ari gutanga inyigisho, ari kumwe n'urundi rubyiruko rwose rumuhanze amaso biragaragara ko azi kwigisha neza uyu mukobwa.

Icyumba kirarwamo n'abanyeshuri baba biga muri za kaminuza aho baba bacumbitse, hari uburiri bushashe neza iruhande rwawo hakaba umukeka ndetse hari n'akantu bashyiramo imyanda.

Amazu meza yubatswe ku buryo bugezweho, akaba ari amazu asize ibara ry'umweru ndetse akaba ari ahantu hari abantu bigaragara ko bashobora kuba bahasura ku buryo bw'ubwiza nyaburanga.

Amazu yubatswe ku buryo bugezweho bwa kijyambere, akaba ari amazu akunzwe kubakwa ahantu hagenewe kubakwa imidugudu, akakira abantu benshi nyamara yubatswe ku buso buto cyane.

Ubusitani ni uburyo bwiza bwo gutaka ahantu ndetse bukaba ari uburyo bwiza bwo kurinda ibidukikije, iki cyapa kirakangurira abantu kutanyura muri ubu busitani tureba hano kuko aba ari ukubwangiza.

Amazu yubatse ku buryo ashobora kwakira abantu benshi bagiye batandukanye baje bahagana basaba serivisi zigiye zitandukanye, akaba ari amazu ateye irange rijya gusa umuhondo ariko werurutse.

Abakobwa babiri, umwe wambaye agapira k'umweru n'ijipo y'umutuku, undi yambaye ipantaro n'agapira k'umuhondo ndetse hejuru arenzaho ishati y'amaboko maremare, basohokaga ku ishuri rikuru rya Kiliziya Gatolika mu Rwanda.

Icyumba gitoya cyarimo igitanda n'ameza ndetse n'intebe, akaba ari icyumba kigaragara ko ari icyumba cy'umwana w'umunyeshuri, kuko mbene ibi byumba bikunze kuba ahantu mu bigo by'amashuri.

Umwana w'umukobwa uri mu cyumba cye bigaragara ko utuntu twe atuzinga neza tukaba turi ku kumurongo rwose, bikaba bigaragarira kuri iriya myenda ye yazinze neza kandi ubona ko n'igitanda cye gisukuye, gisa neza, icyumba cye kirasukuye rwose kirasa neza.

Abaganga babiri bari bicaye ahantu hakorerwa isuzuma ry'indwara bakaba bari bambaye amataburiya y'umweru, buri wese akaba yari ari ku nshingano ze ndetse ubona na ko bahuze bashaka gukora akazi ka bo neza.

Abantu benshi bari bicaye muri sare y'uruganiriro, buri wese imbere ye hari hari mudasobwa, bigaragara ko bari bari mu nama, kandi buri wese yari ateze amatwi, ndetse yitayeho ibyo bari kuvuga, kugira ngo abone uko abaza cyangwa se asubize ibyo bamubajije.

Inzu nini cyane y'umuturirwa igeretse gatanu, akaba ari inzu yari iri ahantu mu busitani bwiza cyane, ifite korotire ikotirije ibyuma ndetse ubusitani bwayo bukaba bushishe neza, bigaragara ko cyari igihe cy'imvura hasa neza rwose.

Inzu nini cyane ifite umwanya w'uruganiriro runini, hakaba harimo intebe nyinshi ndetse hakaba hicayemo abantu benshi bafite amakayi, byasaga nkaho bari mu nama kandi bakurikiye uwabagezagaho imbwirwaruhame.

Icyapa kiri mu ibara ry'ubururu n'umweru ndetse kuri icyo cyapa handitseho amagambo ari mu ibara ry'umweru, akaba ari icyapa cyerekana inyubako y'ishuri rikuru ry'u Rwanda riherereye i Butare.

Umugabo wambaye indorerwamo z'amaso, akaba yambaye n'ishati y'amaboko maremare ya karokaro ndetse n'ipantaro y'umukara. Yari ahagaze mu nzu ikunze kuberamo inama.

Icyapa kiri mu ibara ry'umweru, kuri icyo cyapa hakaba handikishijweho amagambo ari mu ibara ry'icyatsi, icyo cyapa kiri ku kibambasi cy'inzu runaka, kikaba cyerekana imiterere y'iyo nzu.

Amazu meza akaba ari amazu yubatse ahantu hateye ibiti byinshi ndetse akaba ari ahantu bigaragara ko hatuje kuko ahantu hateye ibiti akenshi haba hari umwuka mwiza ndetse n'ubwugamo bw'izuba.

Mu cyumba k'ishuri ahagaragara umugabo wicaye wenyine, iruhande rwe hari agakapu k'umukara, ahandi imyanya iri yonyine nta bandi banyeshuri bari kugaragaramo bigaragara ko ari mu gihe cy'akaruhuko nubwo uyu yakomeje kugumamo.

Abantu benshi bari muri sare y'uruganiriro, biragaragara ko hari igikorwa runaka bari barimo cyari cyabahuje, nk'inama se cyangwa ubukwe bw'abantu bo mu miryango yabo, kandi ubona ko bari bishimye rwose, banezerewe.

Inzu iteyemo amabara y'umuhondo ndetse ifite amadirishya akozwe ku buryo bwa kijyambere, ku kibambasi cy'iyo nzu hariho ikibaho abana bigiraho bigaragara ko ryari ishuri ariko nta muntu wari uryicayemo.

Ishuri rikuru ry'u Rwanda, ni rimwe mu mashuri afasha abanyarwanda mu kobongerera ubumenyi mu ngeri zigiye zitandukanye. Aha turahabona ibyumba, ibyo byumba bikaba bikorerwamo ubushakashatsi mu bijyanye na siyanse.

Sale nini yari yicayemo abantu benshi, muri iyo sale hakaba hari harimo intebe zo mu ibara ry'ubururu ndetse n'intebe zo mu ibara ry'icyatsi, abo bantu bari bahari byagaragaraga ko bari bari mu nama cyangwa se mu mbwirwaruhame.

Utubati twinshi cyane twashyizwe mu nzu basomeramo ibitabo. Utwo tubati tukaba turimo ibitabo byinshi, ndetse ibyo bitabo ni bumwe mu buryo twifashisha mu gihe turi kongera ubumenyi mu buzima bwacu bwa buri munsi.

Iyi ni sale y'ishuri bigaragara ko hari hicayemo abana b'abanyeshuri bakuze, biragaragara ko iri ari ishuri rikuru bitewe n'uburyo bari barimo bigamo, imbere yabo hari hahagaze umwarimu ndetse yari arimo abereka ibyo yari arimo abigisha, kandi buri wese wabonaga ko akurikiye, ari gukurikira ibyo bamwigishaga.

Umugabo wambaye ingofero y'umweru, umupira w'icyatsi wandikishijweho amagambo y'umuhondo, afite indangururamajwi mu ntoki ze, ndetse ahagaze aho batangira ikiganiro, bishoboka ko hari abo yari ari gusobanurira ibijyanye n'uburyo bw'uburenganzira bw'ikiremwamuntu.